Abana biga mu mashuri abanza bakunda gukoresha udukinisho dutandukanye tubafasha mu gukina imikino itandukanye ibahugura ikanabafungura mu mutwe habo.

Abana biga mu mashuri y'inshuke usanga mu ishuri ryabo haba hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye bibafasha kwibuka ibyo biga.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ni byiza ko bahabwa ibikinisho bitandukanye, bibafasha gukura mu bwonko aho babikinisha bakavumbura ibintu byinshi bitandukanye.

Icyumba kirimo abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo ndetse n'abana batoya cyane, aho ubona ko ari abayobozi b'umurenge baje kuganiriza abagore bita ku bana b'inshuke.

Bitewe n'aho ikoranabuhanga rigeze abana biga mu mashuri abanza na bo baba bakeneye gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga, ariko si byiza gutuma babikoresha igihe kirekire kuko byabagiraho ingaruka.

Aha ni ku nyubako yigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke, aho hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye bibafasha kwiga neza bagafata ibyo biga mu buryo bworoshye.

Igishushanyo kimeze nk'ingagi, aho giteyeho amarangi menshi cyane ndetse handitseho n'amagambo ari mu mabara atandukanye, bigaragara ko cyakozwe n'abantu bakora ibijyanye n'ubugeni.

Abana biga mu mashuri abanza usanga baba bafite ibyicundo bitandukanye, bibafasha gusabana na bagenzi babo kandi baba bakwiriye gukina kugira ngo bajijuke mu mutwe.

Iyo umwana w'uruhinja atangiye kumenya kunywa ibintu bitari amashereka ya mama we, usanga bagura aka kantu bakagashyiramo amata ubundi bakaba ari ko bakoresha bayamuywesha.

Icyapa giteye ahantu mu busitani aho kiri mu ibara ry'umweru, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, umutuku ndetse n'ubururu, kikaba kiranga ikigo cy'amashuri kiri aho hafi.

Ni byiza ko iyo ufite umwana ukiri mutoya ufata akanya kawe mugatemberana, ukamujyana ahantu hakinira abandi bana na we agasabana na bo kubera ko ibi bituma agira ubwenge bwinshi kandi akajijuka.

Igikuta gishushanyijeho umunyeshuri ndetse n'akanyamaswa k'ipusi, aho bigaragara ko ari icyumba kigirwamo n'abana bo mu nshuke bitewe nuko bakunda ibishushanyo.

Amashuri yigirwamo n'abana babanza ku bikuta byayo haba hashushanyije ibishushanyo byinshi bitandukanye birimo n'amasaha abafasha mu kwiga neza bareba ibyo bishushanyo.

Inyubako z'ubucuruzi aho imbere yazo hari ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'udufuka, imbabura, amakara yo gucana ndetse n'ikinyabiziga cya moto giparitse ku mapave imbere y'izo nzu.

Ni byiza ko iyo uri kwita ku bana b'inshuke ukoresha ibikoresho bitandukanye bibafasha kujijuka cyane kandi bakanatinyuka igihe bari kubikoresha. Bikatuma batera imbere mu bumenyi bahabwa.

Ni byiza ko niba ufite umwana ukiri mutoya wamujyana ahantu haba hari ibyicundo kugira ngo asabane na bagenzi be kandi nawe yishimire uwo mwanya mugiranye.

Ku mashuri abana b'inshuke bigiramo usanga hariho ibishushanyo bitandukanye kandi hariho n'amazina y'ibyo bishushanyo, ibyo bituma babasha gufata ibyo bintu mu mutwe vuba.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, usanga bahabwa ibyo bifashisha bashushanya kugira ngo na bo bagaragaze ubumenyi bwabo cyangwa se ibyo bamaze kwiga kugira ngo bahabwe n'amanota.

Aya ni amakaramu yifashishwa n'abana bo mu nshuke aho bayakoresha bashushanya ibishushanyo bitandukanye, akaba afite imifuniko iri mu mabara atandukanye harimo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Agakapu kifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, aho bashyiramo ibikoresho bitandukanye birimo amakayi, amakaramu n'ibindi.

Abana biga mu mashuri abanza usanga ku mashuri bigiramo haba hashushanyijeho ibintu bitandukanye, bituma basobanukirwa ibyo biga kandi bakabifata mu buryo buboroheye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke usanga bahabwa udukinisho dutandukanye kugira ngo tubafashe kwiga, kandi bigatuma babasha gusabana no kumenya ubwenge vuba.

Umurima ubona ko uhinze neza aho abawuhinze biteguye kuba bashyiramo imbuto yabo, hakurya hari ibigo by'amashuri, aho hagaragara n'abana bambaye imyenda y'impuzankano iri mu ibara ry'umweru.

Ibyumba by'amashuri bitandukanye by'abana biga mu mashuri abanza haba hariho ibishushanyo bitandukanye nk'iby'amatungo kandi haba hariho n'amazina y'ibyo bishushanyo ku buryo bibafasha kubifata mu mutwe mu buryo bworoshye.

Iyi ni inzu yigirwamo n'abana biga mu mashuri abanza hakaba hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye bituma bakomeza kuhakunda.

Abana babiri umwe yambaye agakanzu k'ubururu n'undi wambaye agapira k'umutuku, umwe akaba afite urukwavu undi afite igitabo, bakaba bari kuganira ndetse baganira ku byerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi bw'inkwavu.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umutuku ubona ko ari mu nzu yifashishwa mu gukoreramo ubugeni. Akaba yarize mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, akaba ari gushyira mu bikorwa ibyo yize.

Abantu barimo barabyina imbyino za kinyarwanda, aho bakikijwe n'abandi barimo barabakomera amashyi babatera ingabo mu bitugu kugira ngo bakomeze barate umuco gakondo wabo.

Udusimba dutandukanye dukunze kwibasira imyaka y'abaturage haba harimo n'igihore. Kakaba ari agasimba gakunda kurya amababi cyane, ku buryo iyo utabimenye hakiri kare ari twinshi dushobora kuguhombya.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi kandi ni myiza kuko ituma umubiri wacu uruhuka, imitsi n'imikaya bikarambuka umuntu akagira ubuzima bwiza.

Akabati gateretsemo utuntu dutandukanye turi mu ndobo, utundi turi mu dupaniye, harimo amakaramu, ibimarikeri n'ibindi byifashishwa n'abana bo mu nshuke.

Icyumba cy'inshuke, aho kirimo udukoresho dutandukanye tubafasha kwiga neza, kikaba gisizemo amabara atandukanye, harimo ay'ubururu ndetse n'umuhondo.

Ubwiherero rusange bwubakishije amatafari ahiye bufite inzugi z'ubururu n'amabati y'ubururu, bukaba bwifashishwa n'abaturage b'abanyarwanda muri rusange.

Abana b'abanyeshuri bambaye amashati y'imyeru aho bicaye ku ntebe hagati yabo hari ameza y'uruziga, bafite ibitabo bari kuganira bungurana ibitekerezo ku mukoro bahawe.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'ubururu n'umweru, aho bari mu nzira baganira bavuye ku ishuri. Bakaba bari kungurana ibitekerezo, baganira ku mukoro bahawe.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke bakunda gusoma udutabo dutandukanye tuba turimo imigani n'inkuru ibi bikabafasha gutekereza neza.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ku nkingi yubakishije amatafari kandi inzugi zayo n'amadirishya bisa icyatsi kibisi, hakaba hari abantu benshi b'abana bambaye impuzankano y'ishuri.

Utu ni udutabo dutandukanye tuba turimo inkuru nyinshi twagenewe abana biga mu mashuri y'inshuke, aho badusomerwa n'abarezi babo kugira ngo na bo bakunde inkuru mu gihe kizaza bazage batwisomera.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati asa umukara, hakurya yayo urabona ko hatuye abantu benshi cyane kubera ko hubatse amazu menshi.

Ibikoresho bitandukanye byambarwa n'abantu harimo umupira w'imbeho uri mu mabara y'ubururu n'icyatsi kibisi ndetse n'undi usanzwe usa umutuku hamwe n'ingofero na yo iri mu ibara ry'umutuku.

Udukoresho dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri iyo bari kwiga kandi badukoresha baca imirongo, bashushanya uruziga ndetse n'ibindi bitandukanye.

Utu ni udukoresho dutandukanye twifashishwa n'abana bo mu nshuke, aho tuba turi mu mabara menshi cyane, urugero amabara y'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Umwana wambaye agakote k'umweru ndetse n'amadarubindi ubona ko ari mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi bw'ibintu bitandukanye, akaba arimo yereka abanyeshuri bagenzi be ibyo yakoze.

Ibikoresho bitandukanye birimo amakereyo, umukasi, amabike, amakayi, uducamurongo ndetse n'agakoresho kifashishwa mu kubara byose bikaba byifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza.

Inyubako igeretse kabiri iteye amarange kandi ifite inzugi n'amadirishya bisa umukara, isakaje amabati y'umutuku ikaba ifite amagambo ayanditseho imbere.

Ibintu bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo ipantaro yo kwambara, iradiyo, ijipo, isahane, inkweto, ingofero n'ibindi.

Agakoresho kifashishwa kabika utuntu dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Harimo kereyo, uducamirongo n'utundi twifashishwa mu guca uruziga.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bakoresha udutabo dutandukanye, biyungura ubumenyi, basomerwa inkuru n'abarezi babo ndetse na bo bakazisomera bigatuma bamenya ubwenge.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza birimo uducamirongo, imakasi yo guca impapuro, amakereyo yo gushushanya n'utundi tuntu turimo amabara atandukanye.

Abantu bafashe icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse hariho n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, iruhande rw'icyo kipa hari umugore ufite indangururamajwi.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza, usanga bakoresha imfashanyigisho zitandukanye mu kwigisha abo bana, ibyo bituma bagira ubumenyi bwisumbuyeho.

Igikuta gisa umuhondo aho cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'ayandi ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, akaba aranga ikigo cy'amashuri.

Umugore wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'umutuku, ahagaze imbere y'umuryango w'ishuri aho ari umurezi wita ku bana b'inshuke abigisha, abaha ubumenyi butandukanye.

Icyapa kiri mu buso bw'ibara ry'umweru, kiri hejuru y'urugi runini rw'umutuku, aho icyo cyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara avuga ngo igororero ry'abana rya Nyagatare.

Agatabo kifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, aho kaba karimo inkuru zitandukanye zituma bishima kandi zigatuma bakunda gusoma ibintu bitandukanye.

Mu bigo by'amashuri usanga harimo ubusomero buba burimo ibitabo byinshi bitandukanye, abanyeshuri biga aho ngaho bashobora kwifashisha biyungura ubumenyi ndetse n'ubwenge.

Ibi ni ibikoresho abana biga mu mashuri abanza bifashisha iyo barimo barashushanya, urugero nk'ibiziga baca imirongo ndetse iyo bari no gukora n'ibindi bintu bitandukanye.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke usanga bakoresha ibikoresho bitandukanye bibafasha kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi kandi bagire n'ubwenge bakiri bato.

Mu nyubako zigirwamo n'abana bo mu mashuri y'inshuke, usanga haba hateye amarange kandi hari ibikoresho byinshi cyane bibafasha kwiga neza, bityo bigatuma biyungura ubumenyi mu gihe gitoya.

Ni byiza gutoza abana bawe kugira isuku bakamenya uko bakwiye kwitwara bashyira ibintu ku murongo kubera ko bituma na bo baba bameze neza kandi ugasanga ibintu bakora bimeze nk'iby'abantu bakuru.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke usanga bakoresha ibikoresho bitandukanye iyo barimo bariga, haba harimo nk'uducamurongo, amakereyo, amabike biba biri mu mabara atandukanye.

Ibitabo abarimu bifashisha bigisha abana bo mu mashuri abanza, usanga haba harimo ibishushanyo bitandukanye bibigisha kandi bikabereka neza uburyo bakwiye kwitwara.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri atandukanye, harimo nk'abanza ndetse n'ay'inshuke. Ibyo bikoresho birimo amakaramu n'ibindi.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'icyatsi, aho imbere yabo hari umurezi ubayoboye abajyanye aho bakorera inama kugira ngo abaganirize abagire inama.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, aho bafashwa n'abarimu babo kubikoresha bakora utuntu dutandukanye tw'ibikinisho ndetse n'ibindi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ubona ko ikiri kubakwa neza. Iruhande rwayo hari iyindi imeze neza yuzuye yigirwamo n'abana. Bahabwa ubumenyi butandukanye buzabafasha kwibeshaho mu gihe kizaza.

Udukoresho dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga imibare baca imirongo, bashushanya ibiziga n'ibindi bishushanyo bitandukanye kandi haba harimo n'akandi kantu gafasha mu gusiba ibyo bintu.

Aya ni amashuri yubakishije amatafari ahiye kandi ateye amarange arimo iry'umutuku, umuhondo n'umweru. Imbere y'ayo mazu hashinze Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane bushinzemo idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko ari ikigo cy'ishuri abana bigiramo.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakoresha ibikoresho bitandukanye by'ibikinisho bibafasha kwiyungura ubumenyi, gusabana na bagenzi babo ndetse binatuma bamenya ubwenge mu gihe gitoya.

Udukoresho dutandukanye twifashishwa n'abana biga imibare aho badukoresha baca imirongo, uruziga, bashushanya ibishushanyo bitandukanye ndetse harimo n'utwifashishwa mu gusiba ibyo bishushanyo.

Inyubako y'ishuri yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba iteye amarange y'umuhondo ku nkingi, igoteshejwe n'ibyuma by'umutuku bituma abanyeshuri badatoroka.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabo, aho bahagaze ku murongo, ubona ko ari mu gikorwa runaka, aho bayobowe n'undi muntu uri imbere yabo uri kubereka ibyo bakora.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umweru aho bicaye mu modoka inyuma bishimye hirya yabo hari ahantu hubatse amatente.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru na kake, bahagararanye n'abandi bagabo babiri ubona ko ari abarezi babo aho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abana bambaye impuzankao iri mu ibara ry'ubururu, umukara, umweru ndetse na kake. Bakaba bahagaze ku murongo aho bari kuririmba indirimbo yubahiriza Igihugu.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umweru ndetse na kake bakaba bicaye bitonze aho bakurikiye umuntu uri kubaganiriza.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kugaburira abana ku mashuri, batiriwe bataha ngo bajye mu rugo iwabo kubera ko byatumaga bananirwa bigatuma batiga neza amasomo ya nyuma ya saa sita.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse na kake aho ubona bari mu cyumba bari kwidagadura nyuma y'amasomo bari bamaze guhabwa n'umwarimu bakaba bishimye cyane.

Itsinda ry'abantu bambaye amataburiya y'umweru ubona ko ari abarezi bahawe za mudasobwa bazajya bifashisha batanga amasomo yabo kugira ngo uburezi bugende neza.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse na kake bakaba bahagurutse, aho bari kuganirizwa n'umuntu na bo bakaba bari kumva ibyo ababwira.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'imipira y'ubururu, aho imbere yabo hari ubahagarariye urimo urasubiza ikibazo bari babajijwe n'umwe mu bayobozi babo.

Umudamu wambaye ishati ijya gusa ubururu, afite indangururamajwi mu kuboko kwe ndetse yambaye n'amadarubindi, ubona ko hari abantu bateraniye aho arimo aragezaho ijambo.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, ubona ko ari abubatsi kubera ko bambaye udukoresho twabugenewe harimo nk'ingofero irinda impanuka ndetse n'utujire turi mu ibara ry'icyatsi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kake, aho bari kwerekeza ku bukarabiro bakaraba intoki zabo birinda indwara zituruka ku mwanda ndetse harimo na korona virusi.

Icyumba kirimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, aho ari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga yigisha abanyeshuri be batandukanye, bakaba bari mu cyumba cy'ishuri.

Umugabo w'umuyobozi wambaye ishati iri mu ibara rya shokora, akaba afite urupapuro mu ntoki ze ndetse n'indangururamajwi aho ari kugeza ijambo ku bantu bateraniye aho.

Icyumba kizwi nk'inzu y'ubushakashatsi aho harimo abagabo babiri bambaye amatabura y'imyeru ndetse harimo n'abandi bambaye utujiri aho bari kureba abari gukora ibizamini bitandukanye.

Inzira nziza ikikijwe n'utubuye turi mu ibara ry'umweru kandi iyo nzira ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane. Imbere hakaba hari amazu yubakishije amatafari ahiye.

Itsinda ry'abantu harimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye amajire ari mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kijimye n'ikibisi, aho ubona ko ari abubatsi bakaba batashye inyubako nshyashya yuzuye.

Itsinda ry'abantu biganjemo urubyiruko bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo n'amapantaro y'imikara, aho ubona bari mu kibuga bari kuganirizwa.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, aho ahagaze mu ishuri ririmo abana bambaye impuzankano y'ubururu, arimo arabaha amasomo yabo ubonaka abo bana bafite amakayi n'amakaramu barimo barandika.

Itsinda ry'abantu bambaye amaji ay'icyatsi, umutuku ndetse n'icyatsi cyijimye, aho bari mu nzu bubatse bari kureba niba ibintu byose bimeze neza.

Itsinda ryiganjemo abana batoya bambaye imipira iri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, aho bicaye hasi mu byatsi bari kumwe n'umugabo ubayoboye wambaye ishati y'umweru.

Icyumba kirimo umugabo, aho bigaragara ko ari umurezi arimo arigisha abana yiga amashuri yisumbuye akoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo bamenye neza.

Umubyeyi uherekeje umwana we ku ishuri aho ari kumubwira amwongorera ati " mwana wange uzirinde ibishuko by'iyi minsi kugira ngo uzatsinde maze uziteze imbere."

Itsinda ry'abantu biganjemo abagabo ndetse n'umugore ubona ko bari kwinjira mu nyubako yubatswe vuba bakaba bayitashye kugira ngo barebe ibyo bikorwa remezo ukuntu bimeze.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'umweru. Bose bakaba bicaye bari guseka bishimye. Aho inyuma yabo hari inyubako nini ubona ko ari aho bigira.

Icyumba cyicayemo abantu batandukanye bambaye imipira y'imyeru, bose bakaba bafite za mudasobwa imbere yabo, bakaba bicaye mu cyumba giteye irange ry'umweru gifite n'amarado manini.

Umugabo uri kumwe n'umwana ubona ko bari mu cyumba k'ishuri, aho arimo aramufasha anamwigisha gusoma ibintu bitandukanye kugira ngo na we agire ubwo bumenyi bwinshi kandi bwisumbuyeho.

Leta yashyizeho gahunda yo gucyura abana bavuye ku ishuri nyuma y'ibizamini bagiye mu biruhuko, iyi gahunda yatumye yoroshya ingendo bityo abana bakagera mu rugo neza kandi badakerewe.

Aha ni mu cyumba cy'abaganga aho harimo abanyeshuri bari kwimenyereza uyu mwuga, bambaye amataburiya y'imyeru bari gukoresha ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Abanyeshuri bo muri kaminuza usanga bicara mu ntebe nziza kandi ahantu hakeye, si ngombwa ko bambara impuzankano kubera ko baba bemerewe kwambara uko bishakiye.

Icyumba cyigirwamo cyicayemo abanyeshuri, ubona ko bitonze cyane kandi bicaye batatanye, bihita bigaragaza ko ari mu gihe cy'icyorezo cya Covid.

Umuntu w'umugore wambaye agapira k'umweru n'ijipo y'umukara arimo aragenda ahantu hubakishije amapave heza cyane rwose ubona ko hateye imbere.

Iyo umunyeshuri yize agatsinda akarangiza amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza biba ari byiza kuko aba yishimye cyane ubona ko ibyo yize agiye kubibyazamo umusaruro.

Abana biga mu mashuri abanza, uba usanga mu mashuri yabo harimo ibishushanyo bitandukanye ndetse biriho n'amazina yabyo ku buryo biborohera kubifata mu mutwe, bityo bakiyungura ubumenyi.

Abana biga mu mashuri abanza bigishwa n'ubugeni, aho usanga bakora ibikoresho bitandukanye, ibishushanyo ndetse n'ibindi bigaragaza ko bafite ubwenge.

Aha ngaha ni mu cyumba kirimo abantu ubona ko bakuze bicaye mu buryo bazengurutse imeza, imbere yabo hari umuntu ufite indangururamajwi uri kubaganiriza abagezaho ikiganiro runaka.

Icyumba cy'ishuri kirimo abantu ubona ko bakuze bicaye mu ntebe z'icyatsi imbere yabo hari ameza manini, bamwe bari gukoresha mudasobwa imbere yabo hahagaze umugabo uri kubaganiriza.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara, akaba ahagaze ku mayesikariye aho arimo aramanuka agana hasi, iruhande rwe hakaba hari inyubako nini cyane iteye irangi ry'umweru.

Inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda igeretse, isize irange ry'umweru, isakaje amabati y'umutuku. Imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane n'inzira y'amapave.

Ahantu ubona ko ari heza cyane hubakishije amapave, hakurya hakaba hari ubukarabiro bwifashishwa mu kurwanya indwara zituruka ku mwanda kandi inyuma yabwo hakaba hateye ibiti.

Abana biga mu mashuri abanza usanga bigishwa gukora ibintu byinshi cyane by'ubugeni bitandukanye, harimo nko kubumba ibintu birimo imitwe y'abantu n'ibindi bishushanyo bitandukanye.

Iki ni icyumba kigirwamo n'abanyeshuri aho giteye irangi ry'umuhondo ku bikuta ndetse kikaba kirimo n'intebe ziri mu ibara ry'ubururu abo banyeshuri bicaraho iyo bari kwiga.

Abana biga mu mashuri abanza usanga bigishwa gukora utuntu twinshi tw'ubugeni, aho bituma bafunguka mu mutwe kandi bikabafasha gukorana na bagenzi babo.

Icyumba k'ishuri kirimo udutebe twinshi cyane kandi dusa turi mu ibara ry'ubururu, aho ubona ko ari izo abanyeshuri bicaramo igihe bari kwiga twose tukaba dufite aho kwandikira.

Abantu barimo baratambuka mu kayira kameze neza, bakaba bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku, umukara n'umweru, iruhande rwabo hakaba hari jaride nini cyane kandi nziza.

Itsinda ry'abantu bicaye hamwe ubona ko bari ahantu hari jaride ndetse hari n'itente, harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu ntebe zifite amabara atandukanye kandi ubona ko barimo baraganira ku kintu runaka bakaba bari kungurana ibitekerezo.

Ibishushanyo bishushanywa n'abana bo mu nshuke biba bitameze neza ariko ubona ko mu gihe runaka bazabasha gushushanya bityo bakaba banabikora nk'umwuga.

Itsinda ry'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda aho bambaye impuzankano y'udupira ndetse imbere yabo hakaba hari abandi bantu bambaye imyenda y'imyeru ubona ko bari kubafasha kwiga.

Iki ni ikibaho gisa umweru kifashishwa n'abarimu bandikaho igihe bari mu ishuri, barimo barigisha abanyeshuri amasomo atandukanye bakoresheje ibimarikeri.

Aba ni abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, aho bafite amakaramu, bari kwandika cyangwa se bakaba barimo barakora ikizamini, gisoza amasomo baba barize kugira ngo barebe ubumenyi bafite.

Abanyeshuri bize imyuga n'ubumenyingiro muri Kaminuza y'u Rwanda, usanga bafite ubushobozi bwo gushushanya ikintu neza ukabona ni umwimerere, ibi rero bituma bateza imbere ubumenyi bwabo.

Icyumba kirimo abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, aho bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye y'ubururu, umweru, umuhondo n'ayandi. Imbere yabo hari umwarimu urimo urabigisha.

Abantu batandukanye biganjemo abakobwa, aho bicaye bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, imbere yabo hari imeza nini iriho igitambaro cy'umukara n'uducupa tw'amazi ndetse n'impapuro bari kwandikaho.

Inyubako nini kandi ubona ko isa neza, iteye amarangi y'umweru, ikaba isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari ubusitani bumeze neza cyane bukikijwe n'indabyo ndetse muri ubwo busitani harimo n'ikigega gifata amazi.

Itsinda ry'abanyeshuri biga muri kaminuza, aho bicaye mu ishuri barimo bariga, bari kwandika bakurikiye umuntu urimo urabaha amasomo kugira ngo bumve ibyo ari kubabwira neza.

Ubugeni n'ubukorikori ni ingenzi kandi ni bwiza kubera ko butunze abantu benshi batandukanye, ubugeni kandi usanga abantu benshi babukunda ku buryo ibi bikoresho bivamo babigura.

Abana biga mu mashuri abanza n'ay'inshuke, usanga abarezi babo babaha umwanya bagakora ibishushanyo bitandukanye maze bakabimanika mu ishuri ryabo bakajya babireba.

Ubusitani buhinze neza bukikijwe n'indabyo z'amabara atandukanye, ku mpande hari inzira y'amapave nziza cyane inyurwamo n'abantu batangije buno busitani.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse no mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro, usanga bakora ibikorwa bitandukanye by'ubugeni byiza cyane bibereye ijisho.

Udutebe twicarwaho n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, aho turi mu ibara ry'ubururu, utu dutebe tukaba dukoze ku buryo utwicayeho hariho n'ahantu ashobora kwandikira bitamusabye andi meza.